Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru, ikaba kandi ifite imifariso myiza cyane y'umweru ndetse irimo n'ibikoresho kabuhariwe bikunze kwifashishwa mu buvuzi.

Ameza arambitseho uducupa twinshi tugiye dutandukanye ndetse hariho n'udukarito twinshi turi mu mabara agiye atandukanye harimo: umweru, umutuku, ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ariko isakaje amategur, akaba ari ivuriro aho batanga serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, hakaba hari umugore n'umwana bahicaye ndetse n'umuganga uhagaze mu rubaraza.

Umugabo wambaye akajiri gasa umutuku akaba ateruye umwana wavunetse bigaragara ko uyu mugabo akorera umuryango utabara imbabare aho ateruye uyu mwana agiye kumuvuza ku kigo nderabuzima.

Abahinzi bagiye batandukanye aho bahuriye hamwe mu mirima bakaba bari kugenda bahinga, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, aho bari kugenda bahinga uyu murima wabo kugira ngo bazabashe gutera imyaka.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga hari igitanda kiryamyeho umuntu kiba gifite amapine hakaba hari abakozi babugenewe bari kugenda bamusunika kuri icyo gitanda kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye bateraniye hamwe mu cyumba cy'inyubako yubatswe mu buryo bwiza bugezweho ifite ibikuta biteye irange ry'umweru, benshi muri bo bakaba bambaye udupfukamunwa, aho hari umugabo uhagaze ari kugira ijambo abagezaho.

Abagore bagera muri bane bigaragara ko ari abaganga, bakaba bateraniye mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gifite ibikuta biteye amarangi ajya gusa umuhondo ndetse na sima isa umutuku.

Ubu ngubu mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi mu Rwanda, hasigaye haraje za mudasobwa, zifashishwa mu buvuzi, aho umuvuzi ayifata akandikamo ibintu runaka, hanyuma bagahita bamusobanurira uko bivurwa.

Ni kwa muganga ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi aho hari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ifite ibikuta biteye amarangi y'umuhondo ndetse hakaba harimo n'intebe abarwayi bicaraho baje kwivuza.

Ni mu bitaro kwa muganga aho hari umurwayi uryamye urenze, imbere ye hari muganga uri kumwitaho yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga, aho ari kugenda akanda muri mudasobwa kugira ngo arebe uko umubiri we uhagaze.

Abantu benshi bateraniye hamwe aho bari mu nzu higanjemo abagore ndetse n'abagabo aho bari kugenda bakora amasuku ku bitaro kugira ngo hakomeze hafite isuku kandi hameze neza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho harimo abantu bagiye batandukanye, haragaragaramo abantu bagera muri batatu bigaragara ko ari abaganga, hejuru y'icyumba kimwe handitseho ngo inzu y'ibagiro.

Umuntu urwaye none akaba yagiye kwa muganga bamumuryamishije ku gitanda none umuganga w'umugore arikuza kumwitaho amubaza indwara arwaye kugira ngo abashe kumuvura.

Abantu benshi bateraniye hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Akaba ari ku kigo nderabuzima, aho bari kugenda bakorera isuku udutanda ndetse n'utubati bakoresha, mu gikorwa cy'ubuvuzi.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo umugore wagiye gushaka izo serivisi ndetse n'umuganga wambayetaburiya y'umweru, aho ari ukureba ibikoresho kabuhariwe kugira ngo yite kuri uyu mugore.

Abantu bagiye batandukanye bambaye udupfukamunwa bateraniye hamwe mu nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru n'umuhondo bakaba bahagaze ari benshi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru utwaye imodoka y'imbangukiragutabara ikunda gutwara abarwayi aho ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo yihuta asuhuza umugore akoresheje igipfunsi.

Abaganga bambaye impuzankano z'akazi, bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse n'ibitambaro mu mutwe, aho bari kugenda bita ku barwayi bagiye batandukanye. Ni byiza cyane kugana ibitaro igihe urwaye.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi aho harimo ibikoresho byose abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi, aho harimo n'abantu bagera muri batatu muri icyo cyumba.

Abantu benshi batandukanye bahagaze imbere y'inyubako yubatswe mu buryo bugezweho y'ibitaro aho bari kwifotoza, imbere yabo hari ubusitani bwiza cyane buteyemo igiti cy'umukindo.

Umugore ufite agasharupe w'inzobe aho ari guhabwa icyemezo cy'ishimwe n'umugabo wambaye agashati, biragaragara ko uyu mugore ari umuganga akaba yarakoze neza none bakaba bari kumushimira.

Umuganga wicaye mu nyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho akaba afite icyuma kabuhariwe imbere ye ari kureberamo kizwi nka mikorosikopi ndetse akaba yambaye itaburiya y'umweru.

Umugabo uri muri laboratware aho yambaye udupfukantoki tw'umweru, akaba yambaye n'itaburiya y'umweru ndetse akaba asa inzobe, aho yazamuye amaboko ye hejuru bigaragara ko hari ibintu ari gutunganya.

Muri raboratwari haba harimo, udukarito turimo amoko agiye atandukanye y'imiti, aho igihe cyose ushakiye uhanyarukira, hanyuma ukarebamo amoko y'imiti aba arimo, yakwifashishwa mu kuvura abantu.

Umuntu wambaye uturindantoki dusa umweru, akaba afashe mugenzi we mu ntoki, bigaragara ko yagize ikibazo ndetse akaba ateye n'agaserumu ku kuboko, uyu muganga rero ari kumwitaho kugira ngo amererwe neza.

Umuntu wambaye udupfukantoki aho ari kuvura mugenzi we ukuboko bigaragara ko ashobora kuba yari yavunitse ari kugenda yita ku kuboko kwe aho ari kugenda ateraho serumu isa umuhondo.

Muri laburatwari hakunze kuba hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashisha mu gusuzuma indwara nyinshi zigiye zitandukanye, hari igikoresho kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, iki gikoresho rero ni igirakamaro.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru akaba yambaye n'agapfukamunwa aho ari mu nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere akaba afite icyuma k'ikoranabuhanga imbere ye ari kugenda asuzumiramo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite icyumba cya laboratwari, aho harimo abaganga babiri bakaba bari kugenda bakora ibikorwa runaka muri icyo cyumba, bambaye amataburiya y'imyeru.

Umugore uhagaze mu nyubako izwi nka laboratwari akaba afite ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kubungabunga imiti runaka, akaba yambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru.

Abana benshi bagiye batandukanye biga mu mashuri y'inshuke bicaye ku mukeka buri wese afite isahani y'ibiryo ari kurya, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye imyambaro y'umweru ari kureba uburyo imirire yabo imeze.

Umugore uryamye yambaye ikanzu iri mu mabara ajya gusa iroze akaba acigatiye umwana, uyu mugore rero bigaragara ko yabyaye none akaba acigatiye umwana we.

Abantu bagera muri batatu bateraniye hamwe mu cyumba aho harimo umugore ndetse n'umugabo bakaba bicaye bigaragara ko bari kuganira, umwe akaba ari umuganga ari kubaza undi uko yumva arwaye.

Umukobwa wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'akanozasuku mu mutwe bikaba bigaragara ko ari umuganga, afite igitabo mu ntoki ari kugisoma bigaragara ko ari kureba uburyo ki indwara zivurwa.

Umugore ukikiye umwana akaba yambaye agapira kari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara n'ubururu, aho umwana yamujyanye kwa muganga none muganga akaba agiye kumutera urushinge, umwana na we ari kwihangana.

Umugore wabyaye abana b'impanga akaba yicaye ari ku bonsa, yambaye ibitenge byiza ndetse ateze n'igitambaro cy'umuhondo afite abana bambaye imyambaro y'icyatsi aho ari kugenda abonsa.

Umugore wambaye amadarubindi ndetse n'agapfukamunwa aho ari umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe nk'itaburiya ndetse n'akuma bifashisha bari gupima ko umutima utera.

Umugore ukikiye akana ari kukonsa akaba yambaye isaha ku kuboko itashye neza cyane ndetse n'umwana yambaye akagofero k'umweru, nyina amukikije agatambaro gasa umutuku.

Abantu benshi bateraniye hamwe b'abagore aho buri wese agiye afite amasahani abiri ariho ibyo kurya bigaragara ko bagiye kugaburira aba bana b'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke.

Abantu bagiye batandukanye bakaba bahurijwe hamwe aho bari kugenda bakoma amashyi, biganjemo abagabo bagera muri bane b'abaturage ndetse n'undi umwe w'umuyobozi wambaye agapira gasa icyatsi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bari mu nama, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bicaye munsi ya shitingi yubatswe mu buryo bugezweho itakishije amabara y'Ibendera ry'u Rwanda.

Abantu benshi bateraniye hamwe bigaragara ko biga iby'ubuvuzi, bakaba bari kugenda baganira bigaragara ko bari mu nama ndetse buri wese imbere ye ku meza hakaba hateretse igikombe cy'amata.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bambaye amashati y'imyeru ndetse n'amapantaro ya kakiyi, bakaba bahagaze bari kwifotoza abandi bicaye.

Umurima munini uteyemo imbuto zigiye zitandukanye uwo murimo ukaba ugabanyijemo ibice bibiri hakaba hari igice kimwe kirimo ibihingwa byinshi byiganjekobwa wibwira ko byitaweho ikindi gice kikaba kirimo imbuto nkeya kabo ndabi ko zishobora kuba zitaritaweho neza nk'izo mu kindi gice.

Udukarito tugiye dutandukanye dushushanyijeho inkoko bigaragara ko harimo imiti igiye itandukanye ivura inkoko indwara nyinshi zikunze kuzifata igihe runaka.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi, akaba yambaye itaburiya y'umweru. Uko bigaragara akaba ari kugenda akora mu bikoresho by'ikoranabuhanga, bigaragara ko ari muri farumasi.

akabati karimo udukarito tugiye dutandukanye, turimo amoko agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu buvuzi, bwaba ubw'abantu ndetse n'ubw'amatungo ahazwi nko muri farumasi, igihe cyose ukeneye iyi miti wagenda bakayiguha byihuse.

Umuntu uri kugenda mu muhanda ushashemo amabuye ndetse n'amapave, aho yikoreye akantu k'umutuku katagaragara neza, hakurya y'umuhanda hari inyubako z'ubucuruzi ziberamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru akaba ari ahantu mu nyubako, aho akora muri farumasi acuruza imiti igiye itandukanye yita ndetse ikanavura abarwayi byihuse.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambereyo, aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, mo imbere hakaba harimo ameza, ariho ibikoresho bigiye bitandukanye nka mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ifite utubati turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, bikaba bigaragaza ko ari muri farumasi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari gutanga uburyo bw'ubwirinzi aho batanga udukingirizo bagenda bakubwira ngo ujye ugakoresha neza wirinde indwara zigiye zitandukanye.

Abantu benshi bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kwiyamamaza, hakaba hari abahanzi imbere bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, bakaba bari kugenda babasurutsa bateye imbyino hanyuma abaho nabo banezererwa.

Abantu benshi bateraniye hamwe aho bari muri sale iberamo inama, hakaba harimo umugabo uhagaze imbere yabo afite indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho ijambo, hanyuma na bo bamuteze amatwi.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera biba ari ingirakamaro cyane ariko abantu batabizi ubu bwoko rero bw'ibimera izi ndabyo zabyo iyo zimaze gukura barazijyana bakazitunganya hanyuma zikavamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara.

Umugabo wambaye amakositimu y'umukara ndetse akaba afite ubwoko bw'ibimera mu ntoki ze. Biragaragara ko ari umuvuzi gakondo, ari kwerekana ko avura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Nawe wamugana.

Umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'agakarita kagaragaza ibyo akora mu ntoki akambaye mu ijosi, ari kugenda atunganya ibikoresho runaka kugira ngo aze kwita ku barwayi be neza.

Ibiti by'inurusi ni bimwe mu biti by'ingirakamaro cyane kuko amababi yabyo akunda kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za kinyarwanda.

Udufuka tugiye dutandukanye turimo imiti myinshi igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara za gakondo, tugiye turi mu mabara atandukanye ariyo umuhondo, icyatsi, umweru ndetse n'umutuku.

Umuntu wambaye mu buryo budasanzwe bigaragara ko ari umubeshyi cyangwa se akaba ari muri ba bandi bazwi nk'abapfumu bavura indwara zigiye zitandukanye aho afite ibikoresho by'ubukorikori bitandukanye ndetse n'amashusho y'inyamaswa.

Inyubako irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bya gakondo bikunze kwifashisha mu muco nyarwanda kugira ngo bakomeze bawusigasire maze umuco nyarwanda ntuzabashe guca injishi.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bw'uruhu buzwi nk'ise, ubu burwayi bukunze gufata abantu bajya kwivuza kwa muganga bikananirana ariko nabagira inama yo kuzajya banyarukira mu buvuzi bwa gakondo bakabavura izi ndwara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite ibikuta biteye amarange y'umweru, ifite idirishya ry'umuhondo aho harimo umugore waje gukingiza umwana none muganga ari kumwitaho.

Inyubako nziza cyane bigaragara ko ari inyubako y'ikigo nderabuzima aho iteye amarangi y'ubururu ku bikuta ndetse no ku mabati hakaba hicaye abantu mu rubaraza rwayo aho bajya gushaka serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima.

Ubuvuzi bw'amatungo nabwo bumaze gutera imbere cyane, aho mu nganda basigaye bakora imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, hanyuma igihe itungo ryaweye rigize ikibazo ukajya kwa veterineri bakayiguha.

Umugabo wambaye agapfukamunwa mu mutwe ndetse n'ikoti ry'umukara aricaye aho ari kumwe n'abaganga babiri yaje kwivuza bari kumwitaho aho bagenda bamubaza uko amerewe kugira ngo bamenye imiti bamuha.

Abantu b'igitsina gore bambaye imyambaro y'impuzankano bateraniye hamwe, aho iyo myambaro iri mu mabara y'ubururu ndetse bakaba bambaye n'udupfukamunwa, bakaba bari mu gikorwa kijyanye n'ubuvuzi aho bari kugenda bareba ibyo umwe ari gukora.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarangi agiye atandukanye y'ubururu umukara ndetse n'umweru aha akaba ari ku ivuriro aho batanga serivisi ku barwayi bagiye batandukanye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho ziteye amarange y'ubururu ndetse zikaba zanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga ngo gira ubuzima bigaragara ko ari ku ivuriro aho bita ku barwayi.

Agakarito kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo kakaba gashushanyijeho inyamaswa zigiye zitandukanye harimo ihene, intama ndetse n'inka, bigaragara ko karimo umuti uvura izi nyamaswa.

Abantu benshi cyane higanjemo abaganga ndetse n'abandi batambaye impuzankano, bahagaze imbere y'ivuriro aho bari kwifotoza, iryo vuriro ryanditseho amagambo ngo gira ubuzima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho mu imbere hari icyumba kirimo utubati, utwo tubati tukaba dupanzemo amoko agiye atandukanye y'amacupa, aya macupa afite imipfundikizo y'imyeru ndetse n'imituku.

Umugore wambaye imyambaro y'impuzankano y'abaganga isa icyatsi, wambaye n'agarindadasuku mu mutwe, akaba ari kugenda amanika serumu kugira ngo umurwayi ura aho ngaho ize kumukiza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho itangirwamo serivise z'ubuvuzi, imbere hakaba hari abantu batonze umuronko b'abakecuru aho hari kugenda hinjira umwe umwe kugira ngo babiteho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarangi y'ubururu ku bikuta, hakaba hari amagambo yanditseho avuga ngo gira ubuzima bigaragara ko ari ku ivuriro bavura indwara nyinshi zitandukanye.

Umugore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'icyatsi akaba afite n'imisatsi ya menshi n'amadarubindi yambaye udupfukantoki tw'umweru aho ari mu gikorwa runaka cyo kwiga ibijyanye n'ubuvuzi.